Umugore wagize umwuga w'ubuhinzi, ari mu murima we w'inyanya ahetse ipombo arimo aruhira mu muti wica udukoko kugira ngo inyanya ze zibashe gukura neza kandi zizamuhe umusaruro mwiza.

Ibihingwa bikenera ifumbire zitandukanye, hano rero baratwereka ifumbire iri mu gashashi, ikaba ari ifumbire y'imvaruganda ikuza ibimera bitandukanye kandi bigatanga umusaruro mwinshi.

Umugabo uhetse ipombo akaba arimo aratera umuti ibigori bye kugira ngo abirinde nkwongwa yabifata bitakuze kugira ngo azakuremo umusaruro uhagije.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba afite ipombo arimo aruhira imyaka ye, yuhira imiti kugira ngo ayirinde kuba yakwatakwa n'udukoko twayangiza igihe itarera.

Uyu ni umurima w'ibigori, uyu murima hakaba harimo umugabo uhetse ipombo, arimo aratera umuti muri ibi bigori kugira ngo abirinde nkongwa yabyangiza, igihe kitageze ngo byere neza.

Icyuzi hakaba hari abantu bari gukora umwuga w'uburobyi, ubona ko bafite igitebo barobeyemo amagi atandukanye, bakaba bambaye n'imyenda y'akazi kabo kugira ngo bataza kurohama.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaba afashefi mu ntoki ze, akaba ayikuye mu kiyaga kiri hirya kugira ngo ayijyane mu rugo bayiteke bayirye bishime.

Umwuga w'uburobyi ni kimwe mu bitunze imiryango myinshi mu gihugu cy'u Rwanda, aha hakaba hari abantu benshi, bahateraniye, bafashe igikoresho bifashisha baroba kugira ngo bafate umusaruro mwinshi ukomoka ku mafi.

Kugenda mu mazi si byiza, icyiza ni uko wagendera mu bwato, bityo kugira ngo utaza kurohama kuko iyo ugiyemo wenyine, ushobora kunanirwa cyangwa se ugahuriramo n'ingona ikakurya.

Uburobyi bw'amafi ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bizamura ubukungu bw'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagituye, cyane cyane abaturiye ibiyaga kuko iyo barobye amafi barayagurisha bakabona amafaranga.

Uburobyi bw'amafi ni kimwe mu bintu bikomeje kuzamura ubukungu bwa benshi, kuko ababikora iyo ubababajije bakubwira ko bakuramo amafaranga ahagije abatunga agatunga n'imiryango yabo.

Icyuzi kirimo amazi kikaba gikorerwamo uburobyi ndetse kifashishwa no kuhira imyaka iri hafi aho ngaho, iruhande rwacyo hahagaze umugore witeze igitambaro wambaye umupira wa oranje ukenyeye n'igitenge.

Kawa nk'uko tubizi mu gihugu cy'u Rwanda ni igihingwa giteza imbere benshi, uwayihinze kawa ntiyayivaho kandi uwayikoreye neza niwe ubona inyungu nyinshi ,kawa iyo yeze iba igura amafaranga menshi.

Umugabo wishimiye kuba yarahinze kawa urabona ko zimwe zeze akaba arimo aranoga kugira ngo ajyane umusaruro we kuri koperative ahabwe amafaranga na we abashe gukemura ibibazo afite.

Ikawa ni kimwe mu bintu bigenda byongera ubukungu bw'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubw'abaturage muri rusange hano rero baratwereka ikawa zahishiye ndetse n'izindi zitarakomera, ni byiza ko dushishikarira kuyitera kugira ngo turusheho kuzamura umusaruro n'ubukungu bw'Igihugu.

Igihingwa cya kawa ni igihingwa cyiza, uko tubibona hano ni mu murima wa kawa zihinze ku murongo kandi ziteye neza cyane, uwazihinze akaba yiteguye gufata ku mafaranga mu gihe zizaba zeze.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, umuhinzi wazihinze iyo zitangiye gutukura arazisoroma akajya kuzigurisha ku isoko, hanyuma bakamuha amafaranga agaca ukubiri n'ubukene.

Igihingwa cya kawa ni igihingwa cyiza cyane kandi ni igihingwa gitezimbere abagikora ndetse kikanabaha amafaranga, ni byiza rero kuyisigasira no kuyibungabunga aho iri hose.

Ikawa ni' igihingwa ngengabukungu mu gihugu cy'u Rwanda, akenshi usanga umuntu uyifite aba afite n'ubukungu kuko igihe cy'umweru, ikawa zitanga amafaranga menshi cyane ku buryo uwazitunze abasha kubona ahagije.

Ubuhinzi bw'umuceri ni kimwe mu bikomeje kongera umusaruro w'abantu kuko uhinga umuceri akawuhingira muri koperative iyo bagurishije akuramo amafaranga ashobora kumufasha kwiteza imbere.

Pipinyeri cyangwa se ubuhunikiro bw'ibiti bikiri bito, hari ikawa zigiye gukurwa aha ngaha zikajyanwa guterwa ahandi kugira ngo zizatange umusaruro.

Iyi ni imiti ivura amatungo ikaba ivura amatungo agiye atandukanye: ihene, ingurube, inkoko ndetse n'izindi nyamaswa zo mu rugo, ikaba yarashyizweho kugira ngo habungwabungwe ubuzima bw'izi nyamaswa.

Utubido turi mu ibara ry'umweru, dufite imifuniko iri mu ibara ry'icyatsi, turi mu tu etageri, utwo tubido tukaba turimo imiti ivura amatungo.

Uducupa turi mu ibara ry'umweru, twanditseho n'amagambo atandukanye. Akaba ari uducupa turimo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara z'amatungo.

Uducupa turi mu makarito, turi mu ibara ry'umutuku, dufite imifuniko itukura, utu ducupa tukaba turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo ndetse n'andi yose.

Uducupa duterekeye mu kabati, utu ducupa tukaba turimo imiti, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye yibasiwe n'uburwayi butandukanye.

Abaveterineri bakunze kuba bafite imiti igi itandukanye ibafasha mu kuvura amatungo yabo ndetse n'ay'abaturage muri rusange, iyi serivisi akaba ari nziza kuko irengera amatungo akabasha kubaho ameze neza.

Umunyarwanda yaravuze ati nutema igiti kimwe ujye utera bibiri, aba bantu nabo bakaba bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gutera ibiti kugira ngo bijye biduha umwuka mwiza wo guhumeka, tubungabunge amagara yacu.

Ubuhinzi bw'ibigori ni kimwe mu bikorwa byiza kandi bikwiye gushyirwamo imbaraga kuko ibigori biduha igikoma, biduha kawunga, biduha umuceri wo kurya, ni ibyiza rero ko tubishishikarira tukabihinga.

Hamwe na hamwe mu karere ka Nyagatare uhasanga amakusanyirizo y'amata, kubera ko haba ubworozi bwinshi bw'inka bityo bigatuma abaturage batanga amata, babona amafaranga ahagije yo kubatunga n'imiryango yabo.

Abahinzi benshi mu gihugu cy'u Rwanda, bashimishwa n'uko bahinga bakabasha kweza bitewe n'uko ikirere kiba cyagenze neza cyangwa se bitewe nuko baba bakoresheje uburyo bwo kuhira.

Umugore witeze igitambaro wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu afashe ingemwe z'ibiti ebyiri mu biganza bye akaba agiye gutera igiti kugira ngo abungabunge amashyamba.

Umugore uhinga akaba yarabigize umwuga, urabona ko ari mu murima amaze guhinga yashyize isuka hasi, afashe umufuka yashyizemo ibyo amaze gusarura muri uyu murima, yishimiye umwuga we urabona ko ari guseka.

Umubyeyi ubona ko akuzemo, kabafashe urupapuro ruriho Ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, akaba ari iruhande rw'insina ndetse n'ibigori bitarakura neza.

Umworozi wo mu bice byo mu cyaro, akaba yoroye inka arimo arayigaragaza kuko imeze neza kandi na we yishimiye ko ataruhira ubusa kuko itungo rye rimeze neza rwose.

Urutoki rwiza cyane rukoreye neza akaba ari kimwe mu bifatiye runini abantu benshi kuko gitanga ibiribwa ndetse n'imineke, urutoki rukaba rutanga n'amafaranga.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu bikomeje kuzamura ubukungu bw'Igihugu ndetse n'ubw'abaturage cyane cyane mu Rwanda, ni byizayiza rero ko mu gihe cyo guhinga twita ku bihingwa byacu kugira ngo natwe tuzakuremo umusaruro wo kuduteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ni ubuhinzi bwiza kandi utunze abantu benshi, iyo uhinze imboga biguha amafaranga, biguha ubuzima bwiza kuko iyo zeze nawe urya, aya rero akaba ari amashu amashu nayo akaba ari amwe mu moko y'imboga.

Igihingwa cy'umwumbati. Umwumbati iyo ukorewe neza na wo ubasha gutanga inyungu kuko wera cyane, ukaba wabona ubugari bwo kurya n'umuryango wawe ndetse uka wabona n'amafaranga igihe wawugurishije.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu bitunze abaturarwanda benshi. Aha baratwereka amayogi yahinzwe n'abantu kugira ngo bateremo imyaka itandukanye. Uyu muririma kandi urimo n'imyumbati, hiryari n'urutoki rw'insina.

Mu Ntara y'Iburarasirazuba, ni hamwe mu hantu hera igihingwa cy'insina. Abantu benshi rero usanga bararinze insina kugira ngo babone ibitoki byo kurya ndetse babone n'imineke yo kurya no kugurisha.

Buri rugo ni byiza ko rugira akarima k'igikoni karimo imboga, ibitunguru ndetse n'ibindi kuko nk'uko tubizi imboga ni kimwe mu bintu by'ingenzi biduha vitamine zitunga umubiri wacu.

Umwumbati ni igihingwa gifasha abantu benshi cyane cyane mu cyaro mu kurya, kuko iyo wejeje imyumbati ntiwakigera usonza, ikindi kandi ushobora no kuyigurisha igihe ukeneye amafaranga.

Umwembe ukiri gukura ukiri muto, gusa iyo ukuze usanga uvaho imbuto ari zo turya kandi zikadufasha kutwongerera intungamubiri na vitamine.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa gifatiye runini abantu benshi kuko iyo umuntu yejeje imyumbati ntashobora kwicwa n'inzara cyangwa se ngo abure amafaranga kuko ashobora no kuyigurisha.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite ibishanga byinshi hirya no hino. Iyo ugezeyo usanga ibishanga bimwe na bimwe bihingwamo imiceri, ibigori ndetse n'ibindi. Ikindi usangamo utunyamaswa dukunda gutoragura iminyorogoto muri ibyo bishanga.

Amoko y'imbuto zitandukanye, arimo amaronji, inyanya, pome, ibirayi ndetse n'ibirahure birimo ji. Ibi byose ubifashe bikaba byagufasha kunguka umubiri mwiza no gukura kw'ingingo zawe kuko zifite ubudahangarwa bwinshi.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka hakaba hari n'ikiyaga kigari kibamo amafi abantu baroba abantu bari aha bari kwitegereza ubwiza bw'iki kiyaga ndetse n'ubwiza bw'ishyamba.

Icyuzi ubona ko kiri kwaguka kigana mu ishyamba kikaba gikikijwe n'ibimera ndetse n'ibiti bitandukanye, aha ngaha bakugira inama yo kutahajya kuko ushobora guhuriramo n'ibintu bitandukanye byakwangiza ubuzima bwawe.

Amashyamba ni kimwe mu bifatiye runini ikiremwamuntu ndetse n'inyamaswa zose muri rusange kuko aduha umwuka mwiza duhumeka, ikindi kandi amashyamba amwe turayacana, tuyakoramo amakara ndetse n'ibindi bifasha abantu mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ni byiza ko dutera amashyamba ahantu hose kuko iyo umusozi uteyeho amashyamba ituma isuri itabona aho inyura. Twihutire gutera amashyamba dusigasire imisozi yacu n'ibihingwa byacu.

Ni ku musozi ahari ibimera bikiri bito hari n'ibiti, aha ngaha baharagira inka cyangwa bakahahinga aho biri ngombwa kuko usangamo ifumbire, iba yaratewe n'ibi bimera biba byarahakuriye.

Ishyamba ryakuze cyane, ririmo ibiti bitandukanye, hakaba haragiwemo n'amatungo, inka ndetseti n'ihene, iri shyamba kandi rikaba rifatiye runini abantu kuko ritanga umwuka mwiza duhumeka.

Ishyamba ubona rikiri gukura, ririmo ibiti birebire n'ibindi bikiri bitoya, ni byiza kubungabunga amashyamba kuko ari kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu biduha umwuka wo guhumeka.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bihatse ubukungu bw'Igihugu cyacu, aha rero hari abakerarugendo bari gufotora ingagi akaba ari igikorwa kiba buri munsi mu Gihugu cy'u Rwanda kandi ni igikorwa kinjiriza amadovize Igihugu cyacu.

Iyo ugeze mu bishanga usanga hari amazi menshi cyane kandi hari n'ibimera bitoshye, bityo rero ni byiza ko tubungabunga ibishanga kandi tukabikoresha ibyabugenewe kugira ngo birusheho kuduha umusaruro natwe twifuza.

Igiti cy'inganzamarumbo cyagabye amashami menshi, urabona ko cyayogaje ikirere cyose, kikaba gikikijwe n'ibindi bimera bigufi, ibiti kandi ndetse n'ibimera bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Amoko y'ibimera bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibiti, hakaba arimo insina, ibigori ibishyimbo, isombe, imisave. Ibi byose biduha umwuka mwiza wo guhumeka kandi insina na zo ziduha ibiryo byo kurya.

Ishyamba rigari rigizwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye urabona ko iri shyamba rikuze cyane, hakurya yayo hari igicu kitagaragara neza ndetse n'imisozi miremire cyane.

Imbuto nziza cyane abenshi dukunze kwita inyanya, urabona ko zangiritse bitewe n'uko zashyizwe ahantu hadakwiriye, ugirwa inama yo kuzishyira ahantu hakwiriye kugira ngo uzirinde kuba zakwangirika.

Amoko y'imboga zihinzwe mu buryo bwa kijyambere ubona ko hejuru hari impombo zishinzwe kuhirira ibi bimera kandi bikaba bitunze abantu benshi mu isi yacu.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni igikorwa cyiza cyane kuko byongereye umusaruro w'igihugu ndetse binatuma ubukungu bwiyongera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tubishishikarire rero kandi tubyumve nk'ibyacu tubikore tubikunze biduteze imbere.

Ubuhinzi ni igikorwa cyiza kandi gishobora kuguteza imbere iyo wabikoze kinyamwuga, aba nabo nyuma yo gusobanukirwa ubwiza bwubuhinzi bari kwita ku bihingwa byabo kugira ngo bazabone inyungu.

Ni mu isoko hakaba harimo abacuruzi bari gucuruza imboga zitandukanye, hari ibitunguru ndetse na kayote, ibi byose iyo umuntu abashije kubirya, ubuzima bwe bugenda neza n'umubiri we ukamera neza cyane kuko uba wabonye indyo yuzuye.

Akarima k'igikoni ni kimwe mu bintu dushishikarizwa kugira kuko iyo urugo rufite akarima k'igikoni ntirushobora kubura imboga, kandi imboga nk'uko tubizi ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha ubuzima bwacu kumera neza

Umukobwa wambaye itabuririya y'umweru, akaba ari gukata pauvro, ari mu murima uhinzemo povro, pavro kandi akaba ari imbuto nziza, zifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umugore wicaye hasi witeze igitambaro, akaba amaze gusarura inyanya, arimo arazishyira mu ntebo kugira ngo azigeze ku isoko nawe abashe gukirigita ku ifaranga yishimire n'umusaruro we.

Igihingwa cy'inyanya, akaba ari igihingwa gikenera amazi menshi kugira ngo gitange umusaruro uhagije, hakaba hari umugabo ufashe uruhombo urimo kuhira izo nyanya kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwiza.

Amashu ni kimwe mu mboga zitunze abanyarwanda benshi ndetse n'abandi bantu ku isi hose. Rero uyu mugore akaba ari kuhira kugira ngo imboga ze zirusheho gukura ndetse no gutanga umusaruro mwiza.

Umugore ufashe umupira w'amazi akaba ari kuhira umurima we uhinzemo imboga zitandukanye, harimo ibitunguru ndetse n'izindi, iki gikorwa kikaba ari cyiza kuko birinda imyaka kuma.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa bikomeje guteza imbere abantu benshi, rero ubuhinzi bujyanye no kuhira nabyo bikomeza guteza imbere benshi kuko uhinga igihe cyose utitaye ku zuba.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje kugenda bwaguka mu mpande zose z'Igihugu cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba mu Karere ka Nyagatare, niho uyu mushinga wahereye kuko hakunda kuva izuba ryinshi.

Igikorwa cy'ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa bitunze abaturage benshi mu Gihugu cy'u Rwanda, uyu mugabo na we akaba ari muri buroke arimo arahinga umuceri kugira ngo azabone amafaranga amutunga ndetse atunge n'umuryango we.

Kuhira imyaka ndetse no kuyikorera neza, ni kimwe mu bituma atanga umusaruro uhagije. Uyu na we yarabisobanukiwe rero none arimo arabikora kugira ngo karoti ze zizamuhe umusaruro ushimishije.

Akenshi na kenshi iyo uhinze imbuto ntabwo uterera iyo ngo utegereze ko ziyeza, ni byiza kuzuhira kandi ukazitera n'imiti yica udukoko, kugira ngo umusaruro wawe uzarusheho kwiyongera.

Icyiza cyo guhinga ahantu ushobora kuhira, igihe cyose wahinga kandi imyaka yawe ikagenda neza, uyu mudamu akaba afashe umupira arimo aruhira inyanya ze kugira ngo umusaruro we urusheho kwiyongera kandi inyanya ze zirusheho gutoha.

Ivomero rusange cyangwa se umugezi, iri vomero rikaba rifasha imbaga nyamwinshi kubona amazi meza asukuye kandi yifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'isuku, guteka, gufura n'ibindi.

Uburyo bwo kuhira imyaka ni uburyo bwiza kandi bufasha abahinzi kuhira imyaka yabo bityo umusaruro ukarushaho kwiyongera. Ababikoresha bamwe baguha ubuhamya ko bigenda byongera umusaruro wabo buri munsi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu kubaka ibyuzi bizajya bifasha mu kuhira imyaka, ku buryo ahantu henshi mu gihugu bazajya bahinga igihe cyose, badakanzwe n'izuba cyangwa se imvura nkeya ngo yaguye bityo bakazajya buhira imyaka yabo igakura neza.

Ikibaya kiza gituwemo n'abantu gusaba abantu batuye ahantu hatari heza, niyo mpamvu Leta ibagira inama yo kwimuka bagatura ahantu hameze neza kugira ngo batazatembanwa n'isuri.

Ahantu heza mu kibaya gisa neza cyane hakaba hari ibihingwa bitandukanye bitunze abantu benshi, hakaba hakikijwe n'ishyamba ndetse n'imisozi miremire.

Ikibaya kigaragara neza kiri hagati y'imisozi miremire hakaba hari ibiti birebire hari n'imyaka abaturage baba barahinze kugira ngo bazabone ibyo kurya ndetse babone n'amafaranga.

Umusozi mwiza cyane, ubona ko ugizwe n'ibimera ndetse n'ibiti birebire, ukaba uriho kandi ibihingwa bigiye bitandukanye, bitunze abantu benshi.

Ubutaka ubona bwambaye ubusa, abona ko ibimera byaho bitigeze bikura, hakurya hari umusozi muremure, hakaba hari n'urutoki ndetse n'amazu abaturage batuyemo.

Ikibaya cyiza cyane ubona gikeye rwose, gikikijwe n'ibimera ndetse n'ibiti birebire, hejuru kandi hari agasozi kariho ibicu byumweru.

Leta y'u Rwanda yashyizeho kubaka amaterasi kugira ngo hirindwe isuri yatwaraga ubutaka bw'abaturage ndetse n'imyaka yabo gusa aho haziye amaterasi yafashe imyaka n'isuri iracika.

Itungo bita ingurube, ni rimwe mu itungo rishobora kugukiza mu gihe gito kuko ingurube iyo ibwaguye ibwabura ibibwana byinshi, ushobora kugurisha ugakuramo inyungu nyinshi.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aha rero ni mu gikuyu ahazwi nko mu cyanya cyahariwe kororerwamo inka harimo amoko menshi y'inka zigiye zitandukanye za kizungu.

Ubworozi bw'inkoko ni bimwe mu bizamura ubukungu, haba bw'umuryango, haba n'ubw'Igihugu kuko iyo woroye inkoko ubona amagi, ukabona n'inyama, ukabona n'amafaranga.

Iki ni ikiraro kirimo inka. Inka akaba ari ingenzi mu buzima bw'ikiremwamuntu kuko kiduha amata yo kunywa arimo intungamubiri, zikaduha inyama ndetse zikaduha n'amafaranga.

Umugabo wasobanukiwe akamaro ko korora inkoko, akaba yarubatse inzu igezweho, yorora inkoko nyinshi zitandukanye na we akaba yiteze inyungu izamuha amafaranga menshi.

Ubworozi bw'inkoko bushobora kuguhindurira ubuzima kuko korora inkoko ni kimwe mu bizamura ubukungu bw'abantu bagiye batandukanye, inkoko zishobora kuguha amagi, zikaguha inyama, zikaguha n'amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo ni kimwe mu bintu bitanga amafaranga cyane cyane iyo woroye ingurube, ingurube yibyaye rimwe ushobora kuguha amafaranga akubye kabiri ibyo wayishoyeho, twitabire korora twunguke menshi.

Inka zo mu bwoko bwa kizungu, ni inka zitanga umukamo mwinshi ku buryo umuntu woroye iyi nka atagira ikibazo cy'amafaranga cyangwa se ikibazo cy'imirire mibi kuko akuramo amata akaba yamutunga.

Inka nyinshi kandi nziza, ziri mu rwuri, inka zikaba zitanga umukamo kandi zigatanga n'amafaranga ndetse zigatanga n'inyama. Rero korora inka nta gihombo kibamo.

Ubworozi bw'inkoko, ni kimwe mu bintu bigenda bitanga amafaranga, binyuze mu kuzigurisha. Iyo woroye inko nyinshi kandi ubona amagi ndetse n'inyama ntabwo wajya mu mubare w'abatazirya kuko uba uziyororeye.

Ubworozi ni kimwe mu bintu bikomeje kuzamura ubukungu mu gihugu cy'u rwanda ndetse n'ahandi hose babukora. Uyu mugabo nawe akaba yarahisemo kubaka ikiraro cy'amatungo ye kugira ngo umusaruro we w'ibikomoka ku matungo wiyongere, harimo amata, inyama, n'amafaranga.

Ingurube akaba ari kimwe mu bintu bitanga amafaranga ku bantu benshi iyo bayoroye ikindi kandi bamwe barayirya bakagira ubuzima bwiza, ni byiza rero kuyorora igihe wumva bitakubangamiye.

Amoko y'ibiribwa bitandukanye harimo ibishyimbo by'amabara atandukanye, harimo soya, harimo urunyogwe, harimo imiteja, harimo ibishyimbo by'amabara y'umukara, mutuku, oranje, umweru, ibi byose bikaba biribwa kandi bigatunga ikiremwamuntu.

Ibishyimbo bifite amabara atandukanye umutuku, umuhondo, umweru, amashaza ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, ibi byose bikaba bivamo intungamubiri zitunga abantu.

Umuceri uri mu bihuhwe utaratunganywa neza, umuceri ukaba ari igihingwa ngandurabukungu kandi utanga amafaranga ndetse igatunga n'imiryango myinshi itandukanye.

Umuhinzi iyo ahinze ashishikaye ashobora kweza ibintu bitandukanye, uyu nawe yarahinze yeza ibirayi none urabona ko umusaruro we ari mwinshi azarya abone n'amafaranga.

Iyo ugiye guhinga biba byiza iyo ubanje gutegura imbuto uzakoresha mu gihe k'ihinga, uyu mugabo akaba ari kutwereka imbuto wakoresha uhinga kugira ngo ibihingwa byawe bizamere neza cyane.

Koperative yahisemo guhinga ibigori none urabona ko bejeje umusaruro mwinshi, hakaba haje rwiyemezamirimo kugira ngo abagurire umusaruro wabo, urabona ko bishimiye iki gikorwa kuko bagiye gufata ku mafaranga.

Koperative yahinze ibigori, bimaze kwera irabyanika ahantu kugira ngo byume abashe kubigurisha babone amafaranga yafasha imiryango yabo kwiteza imbere ndetse no kuba bakongera kubona indi mbuto yo guhinga.

Koperative yahinze umusaruro w'ibigori nyuma yo kweza, bahitamo kuwanika ahantu hawugenewe kugira ngo wume neza bityo, igihe cyo kugurisha bazabone amafaranga menshi cyane.

Gukingira amatungo ni igikorwa kiza kandi k'ingenzi kuko birinda amatungo kuba yarwaragurika ikindi kandi birinda umworozi kugwa mu bihombo bitewe n'uko itungo rye ryaba ryarwaye.

Abaganga bashinzwe kubaga, bajya batabara abantu benshi kuko ubuzima bwabo buba buri habi, iyo babaze rero birabafasha kuko bakira vuba kandi bagahabwa serivisi nziza.

Umuveterineri akaba ari gukora mu nda y'amaganga y'inka kugira ngo ayibyaze, urabona ko ifite icebe rinini kandi yenda kubyara, bityo rero ari kuyifasha kugira ngo itaza kugira ikibazo.

Igikorwa cyo gukingira ni kimwe mu bikorwa bikorwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo bakingire amatungo bityo bibarinde kuba yakatakwa n'indwara zigiye zitandukanye ziterwa no kudakingirwa.

Ubuvuzi bw'amatungo ni kimwe mu bigenda bibungabunga ubuzima bw'amatungo dukunze korora, ni byiza rero gukingiza amatungo kugira ngo tuyarinde indwara zitandukanye zishobora gutuma acika burundu.

Igikorwa cyo gukingira amatungo, ni igikorwa cyiza cyane kuko birinda amatungo kuba yahura n'indwara zitandukanye, zishobora gutuma apfa cyangwa se akarwara bikabije.

Abaganga ni bamwe mu bafatiye runini ikiremwamuntu, aba baganga bakaba bari kwita ku murwayi, ubona ko bafite ibikoresho byabugenewe ndetse bambaye n'udupfukamunwa n'uturindantoki, bakaba bari gutanga serivisi y'ubuvuzi.

Umuganga wambaye uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, akaba ari gutunganya ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye zifata abantu.

Inka z'inyambo ni inka nziza, inka zifite uruhu rwiza, inka zifite amahembe maremare, bakaba bagiye kuzikingira kugira ngo zitazatakwa n'uburwayi bwa hato na hato bukunze gufata amatungo muri iyi minsi.

Ubu ni bumwe mu bwoko bw'inyamaswa ushobora gusanga mu maparike, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi, si ubu gusa kuko iyo ugiye muri parike usangamo n'andi moko nk'intare, ingwe, impyisi, ingona ndetse n'ibindi byinshi.

Inyamaswa zo mu gasozi akenshi ziba ari nziza cyane nubwo zimwe na zimwe zigira ubukana kandi zikagira n'ubugome gusa iyo uzireba ku jisho uba ubona ari nziza cyane, iyi nyoni nayo rero nk'uko igaragara bayita kagoma urabona ko ari inyoni nini bakunze kwita igisiga.

Mu mazi dusangamo ibinyabuzima bitandukanye, yaba amafi, yaba ingona ndetse n'ibindi. Ikindi kandi n'ibishuhe na byo bibamo nk'uko tubibona hano, bibamo bikogamo, bikavamo bigiye kuryama.

Iyo ugeze muri pariki y'Akagera iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, usangamo amoko y'inyamaswa atandukanye, bikaba ari ibintu byiza cyane kandi bikurura na ba mukerarugendo. Mureke turinde inyamaswa tubungabunga ubukungu bw'igihugu.

Ibishyuhe akaba ari ubwoko bw'imbata ziba mu gasozi, bikaba biri koga mu mazi magari kandi akaba ari ho byibera bikaba biri mu bwoko bw'ibiguruka.

Muri pariki zo mu Rwanda cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba, niho usanga amoko y'inyamaswa zitandukanye nk'intarare, ingwe, ibi byose bikaba byinjiriza amadovize igihugu cy'u Rwanda.

Amoko y'inyamaswa zitandukanye, harimo ingwe, harimo intare, inzovu, izi nyamaswa zose zikaba zinjiriza Igihugu binyuze mu bukerarugendo, ikindi kandi ni ibyiza biba bitatse Igihugu.

Inyamaswa yitwa isatura ni inyamaswa iba ibyibushye gusa iciye bugufi ikaba ifite amahembe abiri ku zuru ryayo, ni inyamaswa kandi iba mu mwobo akaba ari ho yiturira.

Iyo ugeze muri pariki uhasanga inyamaswa zitandukanye haba intare, isha ndetse n'izindizi, izi nyamaswa zose zikaba zisa neza kandi kuzireba ntiwabihaga rwose, nawe nagushishikariza kujyayo.

Imparage ni inyamaswa nziza kandi igaragara neza cyane ku uyireba, iyo uyirebera kure uba ubona ari akantu keza wanayegera ugasanga ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ukaba wayisanga mu Kagera mu Ntara y'Iburasirazuba.

Mu gishanga haba harimo amoko y'inyamaswa menshi agiye atandukanye aho izo nyamaswa ziba ziba mu mazi harimo: amafi, ingona, imvubu ndetse n'izizwi nk'ibishuhe, aho ziba zijya kumera nk'imbata.